Kwita ku ifumbire nziza kugira ngo wongere umusaruro mu bihingwa byawe, bigafasha abaturage bakora ubuhinzi ku kwita ku mirima yabo bakoresheje ayo mafumbire yabugenewe.

Icyumba kibitswemo imifuka itandukanye irimo ifumbire, ishobora gutuma umusaruro wiyongera mu gihe ikoreshejwe mu mirima, cyane cyane iyi serivisi ifasha abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bemeza ko ifumbire yo mu minyorogoto ifasha umuturage ukora umurimo w'ubuhinzi mu kongera umusaruro ku bihingwa bye ndetse bikanamuteza imbere.

Imifuka itandukanye iri mu cyumba cyabugenewe, ibitswemo ifumbire yabugenewe ikoreshwa n'abahinzi kugira ngo yongere umusaruro mu butaka bw'ibihingwa ndetse bigateza imbere umuturage ukora ubuhinzi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye, ndetse n'imifuka ikoreshwa mu kubika ifumbire yabugenewe, yongera umusaruro ku buhinzi bw'abaturage.

Ubuhinzi bw'ikawa bukorwa n'abaturage rusange bugafasha abahinzi ba nyiri imirima mu kwiteza imbere ndetse bateza n'imbere ibicuruzwa by'ibihingwa byabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo biteze imbere mu buryo bw'ubuhinzi, babona umusaruro uhagije mu bihingwa byabo, ndetse banakoresha imbaraga kugira ngo umusaruro wabo uzaba umeze neza.

Icyumba kibitswemo imiti yabugenewe, iherezwa abaturage cyane cyane abakora umurimo w'ubuhinzi, kugira ngo bateze ibihingwa byabo imbere, bakoresha imiti yongera umusaruro mu ifumbire y'ubutaka bwabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo umusaruro uboneke umeze neza, bukenera ifumbire zitandukanye kandi zishobora kongera umusaruro w'ibihingwa. Bigateza imbere ibikorwa by'abaturage mu bikorwa by'ubuhinzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi, bakiteza imbere mu buryo bwo guhinga ibigori, bizatanga umusaruro mu cyiciro cya mbere cy'ubucuruzi ndetse bikanafasha abaturage mu kubona ibiribwa.

Icyumba kibitswemo uducupa dutandukanye dukoreshwa mu buhinzi, tugaherezwa abaturage bakora umurimo wo guhinga, kugira ngo biteze imbere bakoresha iyo miti ituma umusaruro wiyongera ku biribwa byabo.

Icyumba kibitswemo imiti itangwa ku baturage rusange bakora umurimo w'ubuhinzi, bikabafasha mu guteza no kongera umusaruro w'ibihingwa byabo kubwo gukoresha imiti.

Icyumba kirimo utubido dutandukanye n'ibindi bicupa bikoreshwa mu buhinzi ndetse bikongera umusaruro ku baturage bakora umurimo w'ubuhinzi, bikabafasha gutera imbere ku masoko y'ibiribwa.

Ishyirahamwe ry'abaturage batandukanye bagaragaza serivisi y'ubuhinzi bw'ibiti, bakoresheje ifumbire yabugenewe ndetse bakanatera amaterasi y'indinganire kugira ngo birinde isuri ishobora kwangiza ibihingwa byabo.

Ibyumba bitandukanye bikoreshwa n'abavuzi cyane cyane abakora umurimo w'ubuhinzi, aho hatangwa imiti kugira ngo ikoreshwe mu iyongeramusaruro ry'ibihingwa, ikoreshwa mu butaka kugira ngo ifumbire inozwe.

Icyumba gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahereze imiti ikwiriye abahinzi batandukanye bifuza kongera umusaruro w'ubuhinzi mu butaka bwabo ndetse no kwiteza imbere mu buhinzi muri rusange.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi ku baturage ndetse cyane cyane abakora umurimo w'ubuhinzi, bagahabwa imiti yabugenewe ishobora kongera umusaruro ku bihingwa byabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange ni ingirakamaro, niyo mpamvu bwitabwaho bagaherezwa ifumbire zigiye zitandukanye nziza, zishobora gutuma umusaruro wiyongera ku bihingwa.

Icyumba kibitswemo imiti igiye itandukanye iri mu bicupa, ndetse ikoreshwa mu buhinzi, igahabwa abaturage bakora umurimo w'ubuhinzi kugira ngo bongere umusaruro ku bihingwa byabo.

Ibyumba bitangirwamo imiti y'amatungo, imiti ishobora gutuma hera imbuto nziza, inyongeramusaruro ndetse n'ibindi bishobora gukenerwa mu buhinzi n'ubworozi.

Ifu y'umweru ikoreshwa n'abahinzi kugira ngo bite ku musaruro w'ibihingwa byabo bibateze imbere ndetse bunateze ibiribwa ku isoko ry'ubucuruzi.

Sare ibitswemo imifuka igiye itandukanye ndetse iyo mifuka ikaba idasa igaragaza ibihingwa bitandukanye nk'umuceri, kawunga ndetse bigafasha abaturage mu kwiteza imbere mu kubika imyaka.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ndetse abaturage rusange bakoresha ifumbire yabugenewe kugira ngo bongere umusaruro w'ibihingwa byabo, uzabafashe kwiteza imbere ndetse...

Ubuhinzi rusange bukorwa n'abaturage, ku bihingwa bitandukanye harimo ibigori ndetse n'ibindi, bikabafasha mu kwiteza imbere ku isoko ry'ibicuruzwa ry'ibiribwa ndetse bakaniteza imbere bateza imirima yabo imbere.

Imirima y'abaturage rusange, ihinzwemo insina z'ibitoki, bibafasha kwiteza imbere, ku rwego rw'ubucuruzi ndetse bakabona umusaruro umeze neza.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi kugira ngo biteze imbere, bagahinga mu mirima igiye itandukanye kandi bakayitaho kugira ngo ibafashe mu kubona umusaruro umeze neza, bashyiramo amazi mu gihe bikwiriye.

Ubuhinzi bw'imboga zikenerwa n'abaturage rusange ku mafunguro, bikabafasha mu kwiteza imbere ndetse bateza n'ubucuruzi bw'imboga imbere ku masoko.

Ibiti bitandukanye bifite ifumbire yihariye ndetse bigakoreshwa mu guterwamo ibiti bihabwa abaturage rusange, kugira ngo biteze imbere bateze n'ubucuruzi bw'ibiribwa imbere.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bateze ibiribwa imbere ku isoko, ndetse baniteze imbere mu buryo bw'ubuhinzi, bahinga ibihingwa bitandukanye birimo ubunyobwa ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'imboga bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo biteze imbere mu buryo bw'ubucuruzi ndetse no guteza imbere ibihingwa by'imboga ku isoko, kugira ngo abaturage babibonere ku gihe.

Ibihingwa by'amapapayi bikorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere ndetse ipapayi rigafasha no mu buvuzi bw'indwara zitandukanye ku baturage rusange.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku bihingwa byabo bakoresha amafumbire yabugenewe ndetse batera n'ibihingwa bimeze neza, babyitaho umunsi ku munsi kugira ngo bizavemo umusaruro ukomeye.

Ubuhinzi bukorwa mu mirima y'abaturage rusange bw'insina, kugira ngo babone umusaruro w'ibitoki uzabafasha mu kubona ibiribwa bimeze neza ku isoko, ndetse no kwiteza imbere muri rusange.

Ubuhinzi rusange bukorwa n'abaturage, bikabafasha mu kwiteza imbere mu gihe babona umusaruro uturuka mu bihingwa byabo ndetse bagakoresha amaterasi y'indinganire kugira ngo birinde isuri ishobora kwangiza imirima yabo.

Ubuhinzi bw'abaturage bukorwa umunsi ku munsi kugira ngo umuturage yiteze imbere mu buryo bwo guhinga no kwerekana ibicuruzwa by'ibihingwa byiwe umunsi ku munsi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bw'ibiti bifasha abaturage cyane cyane no kuvura indwara, bikaba ari ingirakamaro mu iterambere ry'ubuhinzi bw'imiti n'ibiti mu baturage.

Ubuhinzi bw'inanasi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bateze ibihingwa by'imbuto imbere ndetse banatere imbere mu buryo bw'ubucuruzi babona ibikorwa by'ubuhinzi bwiza.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, mu mirima mitoya ahahingwamo insina kugira ngo abaturage babone ikiribwa cy'igitoki, kibafasha mu guteza ibiribwa imbere ku isoko.

Ibiti bitangwa ku baturage hakoreshejwe ifumbire yabugenewe kugira ngo umuturage ufite ibi biti yiteza imbere, azabikoreshe no mu bucuruzi bugiye butandukanye, bimufashe kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'icyayi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere banateze icyayi nyarwanda imbere, bigafasha umuturage gutera imbere ku isoko ry'ubucuruzi bw'icyayi.

Ubuhinzi bwo mu mirima, bukorwa n'abaturage rusange ni ingirakamaro ndetse kuko bubuteza imbere, mu rwego rwo guteza n'ibiribwa imbere ku masoko. Bakita ku mirima yabo bayishyiramo imiferege, mu kwita ku ihingwa ry'ibiturage no kutangirika kwabyo.

Ubworozi bw'inka ni ingirakamaro kuko buteza umuturage ufite itungo imbere, ndetse bukamufasha kubona umusaruro nk'amata amufasha mu bikorwa by'ubucuruzi. Ndetse akita ku matungo ye, mu gihe itungo rifite uburwayi akarimenyera imiti ikwiriye.

Amacupa y'umweru abitswemo umuti uherezwa abaturage, cyane cyane abakora ubuhinzi, mu kwiteza imbere bakoresha inyongeramusaruro y'ubuhinzi ikoreshwa mu butaka, kugirango babone umusaruro umeze neza.

Icupa ribikwamo umuti ushobora gufasha abaturage mu kuvura inyamaswa zabo zo mu rugo, cyane cyane abafite amatungo magufi nk'inka, ihene, intama ndetse n'ayandi.

Icyumba kirimo amacupa atandukanye akoreshwa nk'ubuvuzi butangwa ku matungo yo mu rugo ndetse agatangwa n'abaganga hakoreshejwe amaga y'isuku kugira ngo birinde indwara.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo harimo nk'inka, kwita ku buzima bwayo uyimenyera amazi, ukayiha ubwatsi ku gihe, ukayimenyera imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi n'ubuhinzi ni ingirakamaro, ndetse abaturage bakoresha ubwabatsi butandukanye bakabuhinga kugira ngo buzatunge amatungo yabo, abafashe kwiteza imbere muri rusange.

Icupa ry'umweru ribitswemo ifumbire ishobora guteza umuturage ukora umwuga w'ubuhinzi imbere mu rwego rwo kongera umusaruro akoresheje iyo fumbire ituma ubutaka bumera neza.

Umuti umeze nk'amazi ubitswe mu icupa ndetse ukaba uvura inyamaswa z'amatungo yo mu rugo ukazifasha mu buryo bw'ubuvuzi, akaba ari umuti utangwa n'abaveterineri kugira ngo bite ku matungo.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo harimo nk'inkoko, aho yitabwaho umunsi ku munsi, agahereza imiti mu gihe yahuye n'uburwayi, ndetse akitabwaho kugira ngo amere neza.

Utubido tw'amabara y'ubururu tubitswemo imiti itandukanye yitwa super gro ifasha abaturage, cyane cyane abakora umwuga w'ubuhinzi mu kwiteza imbere bakoresheje uwo muti kugira ngo wongere umusaruro.

Imiti y'ibinini iherezwa abaturage cyane cyane abakora ubuhinzi, ikabafasha kongera umusaruro ku bihingwa byabo, bikaba byabafasha gutera imbere ku masoko y'ubucuruzi bw'ibiribwa.

Ifumbire ikoreshwa mu buhinzi, igafasha abaturage bakora ubuhinzi mu kwiteza imbere bakoresha ifumbire yongera umusaruro mu bihingwa byabo kugira ngo babone umusaruro utubutse ku biribwa byabo.

Ubuhinzi bw'ibigori ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage kuko bibafasha kwiteza imbere, ndetse bakanateza imbere ibihingwa ku rwego rw'ubucuruzi.

Umurima aho abaturage rusange bakorera igikorwa cy'ubuhinzi, bagatera ibiribwa bigiye bitandukanye kugira ngo bizabafashe mu kubona umusaruro n'ibindi biribwa n'ibindi bazakenera ku masoko.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere, bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye harimo nk'insina z'ibitoki, ubunyobwa, ndetse n'ibindi, bikanateza imbere ingo zabo mu buryo bwo kubona amafaranga y'ubucuruzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo bite ku mirima yabo ndetse bayibonemo imisaruro y'ibihingwa bigiye bitandukanye, bizabafasha mu kwiteza imbere ku masoko.

Ubuhinzi butandukanye bukorwa n'abaturage rusange mu mirima bakoresheje ifumbire yabugenewe kugira ngo beze neza ibihingwa byabo birimo ibitoki n'ibindi byo hasi.

Gutera ibiti by'imbuto ni ingirakamaro kuko biteza imbere ibiribwa by'imbuto ku isoko, abaturage bakabona imyembe n'izindi mbuto harimo nka voka ku gihe, bikabafasha mu buzima bwo kwirinda indwara.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, bugakorwa mu kazu kabugenewe, bubateza imbere kuko butuma ibihingwa byabo bikura neza bikabaviramo umusaruro mwinshi bageza ku masoko.

Ubuhinzi rusange bukorwa n'abaturage kugira ngo bateze imirima yabo imbere, izabafashe kubonamo umusaruro mwiza ku masoko y'ubucuruzi ndetse biteze imbere banateze ibihingwa byabo imbere.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ku baturage, ndetse bubafasha kwiteza imbere mu buryo bwo kubona umusaruro uhagije ku masoko w'ibihingwa bateye, ndetse ugateza n'imbere nyir'ubuhinzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange ni ingirakamaro, aho bahurira hamwe kugira ngo bateze imbere ubuhinzi, bateze imbere n'umusaruro mwinshi w'ibihingwa byabo, bigateza imbere igihugu.

Imirima itandukanye ikoreshwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere mu buryo bw'ubuhinzi batera ibihingwa bitandukanye nk'insina, ibigori, ubunyobwa, ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'abaturage rusange bw'imboga, ibiti, ndetse n'ibigori, bikabafasha mu kwiteza imbere mu buryo bw'ubuhinzi, ndetse bakabona n'umusaruro mwinshi ku masoko.

Ihuriro ry'abana batandukanye bagaragaza ko bishimiye serivisi itangwa ku baturage y'uturima tw'igikoni, kuko ifasha abaturage mu guhinga imboga zigiye zitandukanye, zibafasha kwiteza imbere bakanateza imbere ibicuruzwa by'ibiribwa.

Kwita ku buzima bw'abaturage rusange, bakoresha ubuhinzi mu kwiteza imbere, aho bahinga ibirayi mu mirima yabo bakoresheje ifumbire yabugenewe kugira ngo babone ibiribwa bimeze neza.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bakoresheje ifumbire yabugenewe kugira ngo bazabone umusaruro mu bihingwa byabo, bakiteza imbere umunsi ku munsi bagateza n'ubuhinzi bwabo imbere.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo biteze imbere, mu buryo bw'ibiribwa byo ku isoko, ndetse banabone umusaruro uturuka mu biribwa byabo, ubafasha mu buzima busanzwe.

Umurima uteyemo insina z'ibitoki, bigaragaza ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere babone umusaruro mu bicuruzwa by'imbuto zabo.

Ubuhinzi butandukanye bukorwa n'abaturage rusange bashyize hamwe, kugira ngo biteze imbere mu buryo bwo kwita ku bihingwa byabo, bacukura aho umurima urangirira kugira ngo hamere neza.

Imirima itandukanye ihingwamo n'abaturage rusange ibiribwa bitandukanye, harimo nk'imyumbati, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no guteza icyo gihingwa imbere ku isoko ry'ibiribwa.

Ubuhinzi bw'uturima tw'igikoni dukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere mu buryo bwo kubona imboga ndetse banateze imbere uburyo bw'ubucuruzi bw'imboga rusange.

Ubuhinzi n'ubucuruzi bukorwa n'abaturage rusange ni ingirakamaro kuko bikenerwa mu baturage ko bakenera ibihingwa bitandukanye, birimo imyumbati, amashu akorwa nk'imboga ndetse n'ibindi bihingwa biboneka ku isoko.

Ihuriro ry'abaturage rusange, bakora, umwuga w'ubuhinzi, kandi ukabateza imbere. Aho babona ifumbire, ishobora kubafasha mu kongera umusaruro w'ibihingwa byabo. Ndetse, ikanabaherezwa, binyujijwe mu buryo bw'isuku.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo biteze imbere mu rwego rwo kwita ku buzima bwabo, bahinga ibihingwa bitandukanye kugira ngo biteze imbere ku masoko, bateze n'ibihingwa byabo imbere.

Ubuhinzi rusange bukorwa n'abaturage, bikabafasha mu kwiteza imbere mu rwego rwo kwerekana umusaruro w'ibihingwa byabo ndetse n'imirima yabo ikitabwaho mu gihe iri gufumbirwa ishyirwamo n'imbuto.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bw'ibigori ndetse bakabyanika kugira ngo bizakurwemo indyo zigiye zitandukanye, harimo nk'ifu ndetse na kawunga, bigafasha abaturage bakora ubwo buhinzi kwiteza imbere bagateza n'Igihugu imbere.

Imifuka igaragaza ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, harimo ibihingwa bitandukanye bikenerwa umunsi ku munsi ndetse bigafasha abaturage mu kwiteza imbere bateza imbere n'ibiribwa.

Ubuhinzi bw'inyanya bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bateze ibiribwa byabo imbere ndetse babe n'abambere mu guteza imbere ku masoko kugira ngo igihugu gitere imbere mu buryo bw'ubucuruzi.

Ubuhinzi bw'imbuto ndetse avoka ikenerwa n'abaturage umunsi ku munsi kugira ngo bayikoremo ibitandukanye, harimo nk'amavuta, amasabune ndetse igakoreshwa nk'ikiribwa gikenerwa umunsi ku munsi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi mu bishanga kugira ngo biteze imbere ndetse bateze imbere n'amasoko y'ibiribwa ku baturage rusange.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, bugaragaza uko umuceri uhingwa neza mu bishanga kugira ngo umuturage ukora ubwo buhinzi abone umusaruro muzima umuteza imbere.

Ubuhinzi rusange bukorwa n'abaturage kugira ngo bateze imbere ubuhinzi bw'imboga ndetse bahinga inyanya bakazigeza ku baturage bikanabateza imbere mu buryo bw'ubucuruzi.

Ubuhinzi rusange bukorwa n'abaturage mu bishanga kugira ngo babone umusaruro bawukuye mu bihingwa byabo bitaho umunsi ku munsi kugira ngo bazabibonemo umusaruro w'ibihingwa bijya ku masoko.

Ubuhinzi bukorwa mu mirima itandukanye, bugakorwa n'abaturage rusange ndetse bukanabuteza imbere mu buryo bw'isoko ndetse no kwita ku bihingwa byabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bwo mu bishanga, bukabafasha kwiteza imbere ku bwo kubona ibihingwa byabo byiza ku masoko ndetse bigateza imbere n'ibiribwa mu baturage.

Sale irimo imifuka itandukanye ibitsemo ibihingwa byabitswe n'abaturage kugira ngo bizabateze imbere mu buryo bw'ubucuruzi ndetse no kongera umusaruro uva mu bihingwa.

Kwita ku bidukikije, ni inkunga ikomeye ikangurirwa abaturage umunsi ku munsi kugira ngo batere ibihingwa bigiye bitandukanye, birinde gutwika amashyamba.

Kwita ku buhinzi ndetse no kwita ku bidukikije twirinda gutwika amashyamba ndetse no gutema ibiti, bigafasha ikirere kuguma neza ndetse n'u Rwanda rugatera imbere mu bwo kubona ibiti by'imbaho bidufasha kubona ibitanda bimeze neza.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere bateze n'ubuhinzi bw'imboga imbere ku rwego rw'amasoko ndetse n'ubucuruzi muri rusange.

Ubuhinzi bw'ibiti, ndetse mu ifumbire zabugenewe, bugaragara neza kubwo guteza isuku imeze neza, ndetse no gutanga umusaruro ku baturage rusange bikanateza imbere abakora ubwo buhinzi bw'indabo.

Ibihingwa by'amateke ndetse n'insina z'urutoki, bikorwa n'abaturage rusange bigateza imbere abakora ubwo buhinzi ku rwego rw'amasoko, kuko biteza imbere ibiribwa byabo bikamufasha kwiteza imbere muri rusange.

Umuturage wese akangurirwa kwita ku bidukikije, yirinda gutema ibiti, kubigusha hasi ndetse no gutwika amashyamba kugira ngo ibiti bizamufashe mu kwiteza imbere mu buryo bwo kubona imbaho.

Kwita ku kubungabunga ibidukikije ni ingirakamaro, ni n'ingamba ifatwa n'abaturage, kugira ngo bite ku buzima bwabo, bite ku biti n'ibidukikije kugira ngo ibiti bizakurwemo imbaho zizafasha mu iterambere ry'umuturage ndetse n'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi butandukanye bw'ibihingwa bukorwa n'abaturage rusange, harimo amashu ndetse n'ibindi, mu rwego rwo guteza ibiribwa by'imboga imbere ku isoko ndetse n'iterambere ry'umuturage.

Kwita ku biti ni ingirakamaro ndetse n'ibidukikije wirinda gutema amashyamba ndetse no kuyatwika, ukita ku biti ubitera kugira ngo bitange umusaruro w'imbaho uteza Igihugu imbere n'abaturage muri rusange.

Kwita ku kubungabunga ibidukikije ni ingirakamaro kuko bifasha umuturage kwita ku bidukikije ateza Igihugu imbere kuko ibiti bitanga imbaho ziteza umuturage nyir'ishyamba imbere ndetse n'Igihugu muri rusange.

Abaturage rusange bakangurirwa kwita ku bidukikije barinda ibiti byabo ndetse bakirinda no gutema amashyamba no kuyatwika, kuko ibiti bibafasha mu kubona imbaho bibateza imbere.

Gukangurirwa kwita ku bidukikije umunsi ku wundi, twirinda gutema ibiti, gutwika amashyamba ndetse n'ibindi kuko ibiti bidufasha mu kubona imbaho nziza zidufasha kubona ibindi bikoresho harimo nk'ibitanda.

Ibihingwa by'imbuto biherezwa abaturage rusange kugira ngo biteze imbere, bakabiherezwa ari ibiti bifite n'ifumbire yabugenewe kugira ngo umusaruro uzaze umeze neza.

Ubuhinzi bw'ibisheke bukorwa n'abaturage, bufasha abaturage bakora ubwo buhinzi mu kwiteza imbere, ndetse no guteza imbere ubuhinzi bw'ibisheke ku rwego rw'isoko.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange ndetse no kubungabunga ku kwita ibidukikije ni ingirakamaro, abaturage bakirinda gutwika amashyamba, gutema ibiti kuko ibiti bibafasha kubona imbaho zivamo ibikoresho bitandukanye.

Kwita ku bidukikije ni ingamba ikangurirwa buri muturage wese, akita ku bidukikije, akirinda gutema ibiti, gutwika amashyamba kuko ari byo bidufasha kubona ibindi bikoresho bitandukanye birimo nk'imbaho.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bw'imbuto zigiye zitandukanye zikenerwa n'abaturage ndetse zigakenerwa no ku masoko kugira ngo ziteze imbere umuturage ukora ubwo buhinzi, mu buryo bw'imbere.

Kwita ku buhinzi ni ingirakamaro kuko biteza imbere umuturage ukora ubwo buhinzi, ndetse bigateza imbere ubuhinzi bw'ibiribwa ku isoko, harimo ibitunguru bikenerwa na buri muturage wese.

Ubuhinzi bw'indabo bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku isuku y'ibidukikije ndetse bukabafasha no kwiteza imbere mu buryo bw'ubucuruzi.

Ubuhinzi bw'inanasi, watermelon, ipapayi ndetse n'izindi mbuto zitandukanye, bukorwa n'abaturage rusange, bakiteza imbere ndetse no mu buryo bw'ubucuruzi kugira ngo babone umusaruro w'amafaranga.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere ndetse bugakorwa mu buryo bumeze neza, harimo amaterasi y'indinganire kugira ngo birinde isuri ishobora kwangiza ibihingwa byabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo babone ibihingwa by'imboga bizajya bibateza imbere ndetse bakanateza imbere ibihingwa by'imboga ku rwego rw'amasoko.

Ubuhinzi bwo mu rugo bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere batera imboga zitandukanye harimo, insenda n'ibindi bashobora gukenera kugira ngo biteze imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye bukorwa n'abaturage rusange, bubafasha kwiteza imbere ndetse bakabona n'umusaruro mu guturuka mu biribwa bahinze, bikabafasha mu kwiteza imbere.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi kugira ngo bite ku buzima bwabo babona ibiribwa bihagije ndetse banatera imbere mu uburyo bw'ubucuruzi ku bw'ibihingwa byabo.

Ubuhinzi bw'indabo ndetse no kwita ku bidukikije nk'ibiti, byose bituma isuku igaragara ahantu, abaturage bakita ku ndabyo ndetse bikabafasha no kwiteza imbere mu buryo bw'isuku.

Ubuhinzi bw'imboga harimo nk'intoryi, bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere mu buryo bwo gucuruza intoryi muri rusange babone umusaruro ufite intege.

Ubuhinzi bw'imboga bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere, bateze n'ibiribwa by'imboga imbere harimo nk'inyanya, ibitunguru, karoti, pavuro, intoryi ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'umwenya bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bateze imbere ubuhinzi bw'imiti gakondo ndetse banafate imiti bayishyire ku isoko, ibateze imbere muri rusange.

Ibihingwa bitandukanye, bihingwa n'abaturage rusange, kugira ngo biteze imbere, mu buryo bw'ubuhinzi, ndetse binabafashe mu kubona, umusaruro mwinshi bazabona mu bihingwa.

Ubuhinzi bw'inyanya bukorwa n'abaturage rusange, umunsi ku munsi kugira ngo biteze imbere ndetse bateze n'imbere amasoko y'ibiribwa ndetse bifashe abaturage kubona imboga nziza.

Ubuhinzi bw'imbuto bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo bateze ikiribwa cy'imbuto imbere ku isoko. Harimo nk'imyembe, amatunda, ibinyomoro, amaronji, watemelon ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi bw'imboga burimo inyanya, imiteja n'intoryi bigateza imbere umuturage ucuruza ibyo bihingwa bikorwa mu mirima kugira ngo biteze ubuhinzi imbere.

Ubuhinzi bw'imboga, bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo biteze imbere, bateze n'ibihingwa by'imboga imbere ku masoko, ndetse bibafashe kubona umusaruro, w'imirima yabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bateze ubuhinzi bw'imboga imbere, bikabafasha no guteza imbere ubuhinzi bw'ibiribwa ku isoko, bikongera umuhinzi iterambere rusange.

Ubuhinzi bw'amashaza bukorwa n'abaturage umunsi ku munsi, kugira ngo bateze igihingwa cy'imboga ry'ishaza imbere, gifashe umuturage kubona ibiribwa byiza.

Kwita ku buhinzi bw'imboga, harimo karoti, intoryi ndetse n'ibindi bikenerwa kugira ngo abaturage babone ubucuruzi bufite ireme ku masoko ndetse biteze imbere.

Kwita ku buhinzi bw'imboga ni ingirakamaro, kuko bifasha abaturage rusange mu kubona imboga zigiye zitandukanye zirimo : inyanya, insenda, amapavuro ndetse n'ibindi bihingwa.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ndetse bufasha umuturage kwiteza imbere mu buryo butandukanye, agakoresha ibiribwa n'ibihingwa kugira ngo abone umusaruro ku masoko ushobora kumuteza imbere.

Ubucuruzi bw'ibihingwa ku masoko bukorwa n'abaturage rusange, harimo nk'ibijumba, imyumbati, imyungu ndetse n'ibindi, bigakenerwa kugira ngo bifashe umuturage mu kwiteza imbere, ateza n'ibiribwa by'ubucuruzi imbere.

Serivisi yo gutera ibiti ikorwa n'abaturage rusange kugira ngo bazabone umusaruro uturuka mu bihingwa by'imbuto, urugero nka voka bizabafasha mu guteza imbere ubucuruzi bwabo.

Ubuhinzi bwa dodo bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo babone imboga nziza zifasha abaturage mu buvuzi bw'amaso, bukanabateza imbere mu buryo bw'iterambere ry'ibihingwa ry'ubucuruzi.

Ubuhinzi bw'indabo bukorwa n'abaturage rusange, bagaragaza ko kwita ku ndabo ari ingirakamaro, kandi bituma isuku n'ubwiza nyaburanga bigaragara ahantu hose, bikabateza imbere ndetse n'ubucuruzi bw'indabo bigatera imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku gihingwa ndetse bigateza n'imbere abakora ubwo buhinzi harimo nk'amatunda, indimu ndetse n'izindi mbuto zishobora gukenerwa n'abaturage.

Ikigo cy'amashuri aho ibinyabiziga biparika ndetse kugira ngo abanyeshuri bahure n'abarezi babo, babahereze inyigisho zitandukanye ndetse no gufasha gusobanukirwa iby'ubumenyi.

Ubuhinzi bw'indabo bukorwa n'abaturage rusange buteza isuku ahantu ndetse bugateza n'imbere umuturage ukora ubwo buhinzi, bukamufasha no guteza imbere ubucuruzi bw'indabo ku isoko.

Ubuhinzi bw'ibiti by'imbuto bukorwa n'abaturage rusange ndetse bikabafasha mu kwiteza imbere bagurisha nk'avoka, imyembe ndetse n'ibindi ku isoko kugira ngo babone amafaranga yo kwiteza imbere.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bwa watermelon bufasha umuturage gukora ubwo buhinzi mu kwiteza imbere, abinyujije ku masoko kugira ngo abone amafaranga mu bakiriya.

Ubuhinzi ni ingirakamaro kandi bufasha umuturage gukora uwo murimo kwiteza imbere mu buryo bw'umwuga ndetse n'ubucuruzi bwo ku masoko kubwo gutera ibihingwa byiwe ndetse bikamuteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibigori bukorwa n'abaturage rusange ndetse bakita no ku mirima yabo kugira ngo biteze imbere mu rwego rw'ubucuruzi ku masoko y'ibiribwa ndetse baniteze imbere mu rwego...

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo harimo ihene, inkoko ndetse n'ayandi, agaherezwa imiti mu gihe yahuye n'uburwayi ,akamenyerwa ibiryo ndetse agahabwa n'isuku ikwiriye.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, harimo intoryi, karoti, pavuro ndetse n'ibindi by'imboga, bigateza imbere abakora ubwo buhinzi bw'imboga, ndetse bukanabafasha mu buzima bwabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bw'insenda, bukabateza imbere ndetse bakabona n'umusaruro mwiza ukomoka ku biribwa by'urusenda, ukabafasha mu buzima busanzwe.

Ibibabi by'imbuto za avoka ndetse akaba ari ibiti biterwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere, bikabafasha guteza imbere isoko ry'ibicuruzwa by'imbuto.

Kwita ku buhinzi ni ingirakamaro, aho abaturage bita ku biribwa byabo babihereza amazi kugira ngo bikomeze gutoha, ndetse ibyo bikongera umusaruro utuma uteza imbere umuturage nyir'umurima.

Kwita ku buhinzi bikorwa n'abaturage, aho abaturage bagaragaza ko guhesha amazi cyangwa se kuhira ibihingwa byabo byongera umusaruro, mu gihe barimo barategura gusarura imirima yabo.

Kwita ku bihingwa by'abaturage ni ingirakamaro ndetse banuhira imirima yabo mu rwego rwo kwita ku bihingwa byabo, kugira ngo bizatange umusaruro umeze neza ku isoko ry'ubucuruzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi ndetse bagakoresha amazi yo mu bishanga kugira ngo ibihingwa byabo bibone amazi umunsi ku munsi bijye bibafasha kubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito.

Kwita ku buhinzi ni ingirakamaro kugira ngo bifashe umuturage mu kwiteza imbere, akora ubuhinzi butandukanye bumwongerera umusaruro mwinshi ku isoko, abona ibiribwa bihagije ndetse n'amafaranga y'ubucuruzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage bakora umurimo wo guhiga, bikabateza imbere ndetse bakita ku mirima yabo bakoresha ifumbire yabugenewe, kugira ngo imirima yabo izatange imisaruro imeze neza.

Ubuhinzi butandukanye bukorwa n'abaturage rusange bw'insina ndetse n'ibiti, bakita ku bidukikije kugira ngo ikirere gikomeze kuba kimeze neza bateze igihugu imbere.

Kwita ku mirima y'abaturage baherezwa amafumbire azabafasha mu kongera umusaruro w'ibihingwa byabo, ndetse mu gihe bari guhinga bagakoresha amaterasi y'indinganire, kugira ngo birinde isuri ishobora kwangiza imirima n'ibihingwa byabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi, kugira ngo biteze imbere ndetse babone n'ibiribwa bizabateza imbere, mu kubona amafunguro azatuma bamera neza.

Ubuhinzi ni ingirakamaro kuko buteza imbere abaturage. Mu rwego rwo kwita ku bihingwa byabo bakoresha amaterasi y'indinganire kugira ngo birinde isuri ishobora kwangiza ibiribwa.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange ndetse bakita ku mirima yabo bayishyiramo amaterasi n'indinganire, kugira ngo birinde isuri ishobora kwangiza imirima yabo n'imvura.

Serivisi y'ubuhinzi ikorwa n'abaturage rusange bita ku bihingwa byabo, ndetse mu gihe banahinga bagakoresha amaterasi y'indinganire kugira ngo birinde isuri ishobora kwangiza imirima yabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi kugira ngo biteze imbere bakora umurimo w'ubuhinzi ndetse bagateza n'ibihingwa byabo imbere, bakora amaterasi y'indinganire kugira ngo birinde icyakwangiza ibiribwa byabo.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo arimo nk'ingurube afasha abaturage mu kwiteza imbere ndetse bayagirira isuku, bakayamenyera ibyo kurya n'imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo, burimo nk'ihene zo mu biraro, zitabwaho kugira ngo ziteze imbere nyiri itungo, akazimenyera ubwatsi, imiti mu gihe gikwiriye, ndetse nazo zikazatanga umusaruro mu gihe kiri imbere.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo, bukorwa n'abaturage rusange, ni ingirakamaro bibafasha kwita ku nka zabo mu gihe zahuye n'uburwayi, bakazimenyera imiti mu gihe gikwiriye, ndetse bakaziha n'ubwatsi mu buryo bukwiriye.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo ni ingirakamaro kuko biteza imbere umuturage ufite iryo tungo akabona umusaruro uturutse muri iryo tungo, agasabwa kuyitaho ayihereza imiti mu gihe itungo ryahuye n'uburwayi ndetse ayihereza n'ibiribwa bihagije.

Kwita ku matungo yo mu rugo ni ingirakamaro, kuko biteza imbere ubworozi bukorwa n'abaturage rusange, itungo rigaherezwa imiti mu gihe ryahuye n'uburwayi, ndetse rigakorerwa n'isuku.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo arimo nk'ihene, yose ni ingirakamaro kuko afasha nyiri itungo mu kwiteza imbere, abikuye ku musaruro w'ayo matungo ndetse ayamenyera ubwatsi n'imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere babone n'umusaruro uturuka kuri ayo matungo, aho bamenyera ayo matungo imiti ndetse n'ubwatsi kugira ngo itungo ribe rimeze neza.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo, harimo nk'ihene yitabwaho na ba nyiri matungo, kugira ngo bazayabonemo umusaruro umeze neza. Ndetse bakayitaho bayamenyera ubwatsi n'imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo harimo nk'ingurube, akorwa n'abaturage batandukanye, ndetse agashyirwa hamwe mu rwego rwo guherezwa imiti, akitabwaho aherezwa amafunguro akwiriye ndetse agahura n'aba veterineri mu gihe gikwiriye.

Amatungo yo mu rugo ni ingirakamaro, afasha abaturage kwiteza imbere ndetse bakabona umusaruro uva muri ayo matungo umunsi ku munsi, bikabafasha kwita ku matungo yabo bayamenyera ubwatsi ndetse n'imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo, bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo biteze imbere babinyujije mu buryo bw'amatungo, cyangwa se umusaruro, babona muri ayo matungo.

Ubworozi bw'inkoko ni ingirakamaro, kuko buteza imbere ba nyiri amatungo mu kubona umusaruro w'amagi ashobora gukoreshwa ku masoko mu kwiteza imbere, ndetse agateza n'igihugu imbere.

Kwita ku matungo yo mu rugo, ndetse bigateza umuturage nyir'itungo imbere, ku rwego rw'ubucuruzi ndetse n'umusaruro akura muri iryo tungo. Akarimenyera ibiribwa, ndetse akarimenyera n'imiti mu gihe ryahuye n'uburwayi.

Abaturage bakora ubworozi bwo mu rugo, bita ku matungo yabo bayahereza ibiribwa byabugenewe ndetse bakayamenyera imiti mu gihe yahuye n'uburwayi kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bukorwa n'abaturage rusange, ni ingirakamaro kandi abaturage bagomba kwita ku matungo yabo bayagirira isuku, bayamenyera ubwatsi ndetse kugira ngo bayakuremo umusaruro.

Kwita ku bworozi bukorwa n'abaturage ni ingirakamaro, aho borora amatungo yo mu rugo harimo nk'inka, bayamenyera ubwatsi ndetse n'imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku iterambere ndetse n'umusaruro bakuramo mu bworozi bw'inka bita ku nyana bazihereza imiti, ubwatsi ndetse...

Umuturage ugaragaza ko yishimiye ubuhinzi n'ubworozi bukorwa n'abaturage rusange, aho yerekana ko ihene ari ingirakamaro ndetse no guhinga imyaka ari ingirakamaro cyane.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo, harimo nk'inka zo mu biraro, ni ingirakamaro kuko biteza imbere ubuturage ndetse bikamufasha kwiteza imbere mu buryo bwo kubona umusaruro ukomotse kuri iryo tungo.

Inyubako ifite utwumba dutandukanye, dukorerwamo serivisi y'ubworozi bw'amatungo yo mu rugo, harimo nk'ingurube, ihene, intama, ndetse n'izindi nyamaswa.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo, ndetse aho ba nyiri amatungo bita ku matungo yabo, kugira ngo azabateze imbere, ateze n'ubucuruzi bw'amatungo imbere, bizafasha umuturage kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo ni ingirakamaro aho ba nyiri amatungo biteza imbere bakoresheje umusaruro uva muri ayo matungo, amatungo bakayamenyera ubwatsi bakayamenyera n'imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo magufi yo mu rugo akorwa n'abaturage rusange, abafasha mu kwiteza imbere mu buryo bw'umuco ndetse n'ubutunzi muri quartier.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bukorwa n'abaturage rusange harimo ingurube ndetse zikitabwaho zihabwa ibiribwa byazo bizikwiriye, ndetse zikanaherezwa ubuvuzi mu gihe zahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bukorwa n'abaturage rusange, bubafasha kwiteza imbere ndetse bakanabona umusaruro uturuka muri ayo matungo umunsi ku munsi.

Ubworozi ndetse n'ubuhinzi ni ingirakamaro kuko buteza imbere umuturage ubukora ndetse akabona umusaruro mu bucuruzi bw'ubuhinzi, akita no ku mutungo yiwe kugira ngo azamuheshe umusaruro muzima.

Ubworozi bw'inka mu biraro byazo, ni ingirakamaro kuko biteza imbere ba nyirimatungo ndetse bakamenyera ayo matungo imiti mu gihe yahuye n'uburwayi, bakayahereza n'ubwabatsi bukwiriye, kugira ngo abongerere umusaruro.

Ubworozi bw'inka bukorwa n'abaturage rusange bakororera mu biraro, aho bamenyera inka isuku, bakayihereza ubwatsi ku gihe, amazi ndetse n'imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo burimo inka zo mu biraro ndetse n'inyana zazo, aho zitabwaho kugira ngo zitange umusaruro umeze neza ndetse zigahabwa ubwatsi n'imiti mu gihe gikwiriye.

Icyumba kirimo inkoko zitandukanye zororewe ahantu hamwe ndetse aho bazimenyera amazi, bakazimenyera n'ibyo kurya bakazitaho umunsi ku munsi kugira ngo bazazikuremo umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'inka zo mu biraro ni ingirakamaro kuko biteza imbere nyiri itungo, akaba yakwita ku nka yiwe ayikorera isuku ihagije, ayihereza imiti ku gihe ndetse ayimenyera n'ubwatsi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo, buteza imbere nyiri amatungo ndetse akita ku matungo ye, ayamenyera aho acumbika ndetse n'ibiryo akoresha umunsi ku munsi kugira ngo azabone umusaruro ufite imbaraga.

Kwita ku matungo magufi yo mu rugo ni ingirakamaro, kuko bifasha nyir'itungo kwiteza imbere, akanabona umusaruro utangaje mu matungo yiwe, agahereza imiti amatungo mu gihe ahuye n'uburwayi, ndetse akayahereza n'ibiryo bizikwiriye n'amasuku.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bufasha nyiri tungo kwiteza imbere ndetse awukomora ku musaruro w'iryo tungo, akarishakira ibiribwa ndetse n'imiti mu gihe ryahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo harimo nk'ihene, ateza imbere abaturage rusange bakora umwuga w'ubworozi kugira ngo bite ku matungo yabo bayamenyera ubwatsi, imiti ndetse n'ibindi, bazayabonemo umusaruro.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bukorwa n'abaturage rusange, aho bororera inka mu biraro bazimenyera ubwatsi buzikwiriye ndetse n'imiti mu gihe zahuye n'uburwayi.

Kwita ku matungo yo mu rugo ni ingirakamaro kuko bifasha umuturage ufite iryo tungo kwiteza imbere, abona umusaruro uturuka kuri ayo matungo. Akazimenyera ubwatsi, imiti ndetse akazitaho umunsi ku munsi.

Ubworozi bukorwa n'abaturage bwo korora amatungo mu rugo, bufasha abaturage ku kwita ku matungo yabo bayahereza ubwatsi mu gihe gikwiriye, imiti, bayagirira isuku kugira ngo abe ameze neza.

Ubwubatsi bw'ibiraro bw'amatungo yo mu rugo agiye atandukanye, harimo ingurube, intama, ihene, inka ndetse n'ayandi, bigafasha umuturage gukora ubwo bworozi, kwiteza imbere.

Icyumba cyororewemo inkoko zitandukanye, zikoreshwa n'aborozi kugira ngo bite ku matungo, bayamenyera ibyo kurya, imiti ndetse n'amazi, akaba ari inkoko zikoreshwa mu buryo bw'inyama.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo mu biraro, bifasha ba nyiri matungo kwiteza imbere, kubwo kwita ku matungo yabo kugira ngo bazayabonemo umusaruro uhagije, ndetse bayamenyera ubwatsi, amasuku, n'imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Kwita ku matungo yo mu rugo, aho aborozi batandukanye bafite ingurube nk'inyamaswa zo mu rugo, bakazitaho bazihereza imiti izikwiriye, bakazisuzumisha mu gihe bumva zifite uburwayi kugira ngo zibahereze umusaruro.

Kwita ku bworozi bw'amatungo yo mu rugo harimo nk'ingurube, uzihereza ibiribwa bizikwiriye, ukazigirira isuku kugira ngo ubone umusaruro, ndetse n'imiti mu gihe zahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo wita ku nyamaswa, uzihereza ibiribwa bizigenewe nk'ingurube ndetse n'imiti mu gihe zahuye n'uburwayi ukazitaho kugira ngo uzabonemo umusaruro umeze neza.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bagaragaza ko ari ingirakamaro kuko bubuteza imbere ndetse bagateza n'isoko ry'ibiribwa imbere, mu rwego rwo kubona amafaranga mu bucuruzi.

Ubuhinzi bw'ibinyobwa bukorwa n'abaturage rusange mu mirima bakoresheje ifumbire yabugenewe ndetse bikongera umusaruro, bigateza imbere na ba nyiri imirima ku isoko ry'ibiribwa.

Ubuhinzi bw'imboga bukorwa n'abaturage rusange, aho bahinga intoryi kugira ngo zizabateze imbere mu buryo bw'ubucuruzi ndetse banita ku gihingwa cy'icyo kiribwa kugira ngo kibafashe gutera imbere.

Ubuhinzi bw'imboga bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere, babinyujije mu buryo bw'ubuhinzi, bahinga imboga zigiye zitandukanye.

Ibiti bitandukanye biri mu ifumbire zabugenewe, bigaherezwa abaturage ndetse bikitabwaho bishyirwa mu tuzu twabugenewe kugira ngo bizatange umusaruro umeze neza ku baturage rusange.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage ni ingirakamaro kuko bubateza imbere ndetse bugateza n'isoko ry'ibiribwa imbere. Bikabafasha gukora ubuhinzi mu buryo bumeze neza, bakoresha amasitire atandukanye kugira ngo ibihingwa byabo bikure neza.

Ubucuruzi bukorwa n'abaturage rusange bw'imboga, harimo karoti, intoryi, ibitunguru ndetse n'ibindi, bigafasha abaturage mu kwiteza imbere mu biribwa byabo.

Ubworozi bw'amatungo y'inka, ni ingirakamaro kuko buteza nyiri itungo imbere, ndetse akita ku itungo rye akarihereza imiti mu gihe ryahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'inka mu biraro byazo ni ingirakamaro kandi butuma nyiri itungo yita ku matungo yiwe umunsi ku munsi, ayamenyera ubwatsi ndetse akayamenyera n'imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo akorwa n'abaturage rusange, kugira ngo biteze imbere mu buryo bw'ubworozi, bahereza imiti ikwiriye amatungo yabo y'inka, kugira ngo adahura n'indwara.

Ubworozi bw'inka bukorwa n'abaturage rusange mu biraro, ni ingirakamaro kuko bufasha umuturage ufite iryo tungo, mu kwiteza imbere, ndetse akabona n'umusaruro uhagije mu'itungo.

Ubworozi bw'inka bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere, ndetse bikabafasha mu kubona umusaruro mwinshi, uturutse mu matungo yabo.

Ubworozi rusange bukorwa n'abaturage bita ku matungo yabo yo mu rugo harimo nk'inka, bayahereza imiti mu gihe yahuye n'uburwayi ndetse bakayitaho mu buryo bwo kubyara n'ibindi.

Ubworozi bw'inka zo mu biraro ni ingirakamaro kuko zitanga umusaruro mwinshi kubwo kwitabwaho umunsi ku munsi ziherezwa imiti ku gihe, ubwatsi ndetse zikitabwaho zinakurwamo amata.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bukorwa n'abaturage rusange, ku kwita ku nka ndetse mu biraro byazo bazimenyera ubwatsi, imiti mu gihe zahuye n'uburwayi bakazigirira isuku umunsi ku munsi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye, bazanye amatungo yabo yo mu rugo nk'imbwa kugira ngo bayasuzume bayahereze n'imiti ikwiriye, mu gihe afite uburwayi bayiteho umunsi ku munsi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo ni ingirakamaro, kuko buteza imbere umuturage ufite iryo tungo, akita ku buzima bwe ndetse akiteza n'imbere akamenyera itunga imiti mu gihe rifite uburwayi.

Ibyumba bibitswemo imiti itangwa ku baturage cyane cyane abahinzi kugira ngo bite ku butaka bwabo, bakoresha ifumbire zabugenewe ndetse n'ibindi bikoresho byita ku butunzi n'umusaruro mwinshi w'ibihingwa.

Kwita ku bworozi bw'amatungo yo mu rugo uhereza imiti ikwiriye amatungo mu gihe yahuye n'uburwayi ndetse agahura na ba veterineri kugira ngo yitabweho.

Kwita ku ndabo ni ingirakamaro ndetse no kwita ku buzima bw'inzuki ni ingirakamaro kuko inzuki zituma abaturage babona ubuki, bikabafasha mu buzima bwa buri munsi busanzwe.

Ubworozi bw'inyamaswa zo mu kirere bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku nyoni ndetse zishyirwe mu cyanya kimwe, zijye zifasha n'abaturage kwinjiza amafaranga mu buryo bw'ubukerarugendo.

Ubworozi bw'inyamaswa zo muri parike ni ingirakamaro kuko biteza imbere abaturage bo mu gihugu mu kubona abamukerarugendo batemberera igihugu.

Abaturage bishimiye serivisi yo guhabwa ndetse ibi bigateza imbere abaturage n'igihugu, bigateza n'imbere ubwiza bw'igihugu muri rusange.

Kwita ku buzima kw'inyamaswa zo mu kirere harimo n'ubworozi bw'inyoni, zigashyirwa ahantu hamwe kugira ngo zibikwe zijye zifasha abenegihugu mu kwinjiza amafaranga aturuka muri ba mukerarugendo baza kureba ubwiza bw'izo nyoni.

Kwita ku nyamaswa zo mu kirere harimo n'inyoni, bikorwa n'abaturage rusange kugira ngo zishyirwe mu cyanya kimwe, ziteze imbere n'ubukerarugendo bushobora guteza Igihugu imbere muri rusange.

Umuturage wese akangurirwa kurinda ibidukikije ndetse yirinda gutema amashyamba, kuyatwika, gutema ibiti ndetse n'ibindi, agakangurira na bagenzi be kwita ku bidukikije.

Kwita ku nyamaswa zo muri parike, harimo nk'inkende, ibitera ndetse zigashyirwa mu cyanya kimwe kugira ngo zibungwabungwe, zijye zikurura ba mukerarugendo bateze igihugu imbere.

Kwita ku bidukikije ni ingirakamaro ndetse no kwita ku bituma ibidukikije bigaragara neza nko kubaka ibiraro bifasha ba mukerarugendo kubona imisozi neza, bigateza imbere Igihugu.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo muri parike harimo nk'inkende, inguge, ibitera ndetse n'izindi kugira ngo ziherezwe imiti mu gihe zahuye n'uburwayi kuko zidufasha kwinjiza ba mukerarugendo bazana amafaranga.

Ubworozi bw'inyoni bukorwa n'abaturage rusange mu gihugu kugira ngo zishyirwe hamwe zitabweho, zihabwe ubuvuzi mu gihe zahuye n'uburwayi kandi zifashe kwinjiza mu gihugu mu gihe habayeho ubukerarugendo.

Kwita ku nyamaswa zo mu kirere nk'inyoni, ziherezwa agaciro ndetse zikanabikwa ahabugenewe kugira ngo zikurure ba mukerarugendo bateza imbere igihugu.

Inyamaswa zo mu ishyamba, zigomba kwitabwaho umunsi ku munsi n'abaturage, zigashyirwa mu cyanya cyabukenewe kimwe, kugira ngo ziteze igihugu imbere mu buryo bw'ubukerarugendo.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo muri parike zigiye zitandukanye, biteza imbere igihugu ndetse bikanateza imbere umuturage, mu kubona ba mukerarugendo n'amafaranga abaturukaho.

Kwita ku nyamaswa zo mu kirere harimo nk'inyoni, zigashyirwa mu cyanya kimwe cyabugenewe kugira ngo ziteze Igihugu imbere, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije ndetse no gukurura ba mukerarugendo.

Ubworozi bw'inyamaswa bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku nyamaswa zo mu ishyamba harimo nk'inzoka, bikabafasha guteza n' igihugu cyabo imbere mu buryo bw'ubukerarugendo babika izo nyamaswa.

Inyubako ifite indabo imbere ndetse n'ibiti, bigaragaza isuku nyinshi cyane ikorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku ngo zabo, bakora amasuku ndetse banatera indabo kugira ngo babone ishusho nziza.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo mu kirere nk'ibisiga, bazimenyera aho kuba hameze neza ndetse zigahabwa ibiryo kugira ngo zitabweho umunsi ku munsi.

Ubworozi bw'inyoni bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo zishyirwe mu cyanya kimwe, zifashe igihugu mu iterambere mu buryo bw'ubukerarugendo zitabweho umunsi ku munsi.

Inyamaswa zo mu kirere zirimo ibisiga ndetse n'izindi, zose zitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo zifashe abaturage mu buryo bwo kwita ku binyabuzima no kubungabunga.

Kwita ku bidukikije ndetse n'amashyamba, ubungabunga ubuzima bwabyo ndetse ushyiramo n'ibiraro bifasha ba mukerarugendo kugira ngo batembere ibidukikije, badufashe kwinjiza iterambere ry'igihugu.

Kwita ku buzima bw'izindi nyamaswa kugira ngo tujye tubona ba mukerarugendo baza kureba izo nyamaswa. Uburyo bwo kuzitaho ni ukuzihereza imiti mu gihe zihuye n'uburwayi ndetse zikanashyirwa ahantu hamwe, kugira ngo zitangirwe umutekano.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo muri parike, buhereza agaciro zigashyirwa ahantu hamwe kugira ngo zikurure ba mukerarugendo bazafasha igihugu mu gutera imbere.

Ubuzima bw'inyamaswa zo mu ishyamba, burimo inkende, inguge, ibitera ndetse n'izindi, bwitabwaho ndetse izo nyamaswa zigashyirwa mu cyanya kimwe kugira ngo zifashe Igihugu mu iterambere, bigendewe kuri ba mukerarugendo baza gusura inyamaswa.

Inyamaswa zo mu maparike, zigomba kwitabwaho n'abaturage rusange, kugira ngo zibikwe mu mwanya wabugenewe, zijye ziteza imbere Igihugu mu buryo bwo kwakira ba mukerarugendo.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo harimo nk'imbwa, uyamenyera amafunguro ayakwiriye ndetse ukayahereza imiti mu gihe yahuye n'uburwayi, ukayahereza n'inyigisho zitandukanye kugira ngo uyirindire umutekano.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo mu kirere, uzimenyera aho kuba hakwiriye ndetse zigashyirwa hamwe kugira ngo zikurure ba mukerarugendo bazinjiza amafaranga bigateza igihugu imbere.

Inyamaswa zo mu maparike zigomba kwitabwaho zigashyirwa mu cyanya kimwe cyabugenewe kugira ngo zakire ba mukerarugendo, bafasha igihugu mu gutera imbere ndetse zitabweho umunsi ku munsi.

Kwita ku bidukikije ndetse ukamenya igikwiriye ushyiramo ibiraro bizajya bifasha ba mukerarugendo kureba imisozi bameze neza, ni ingirakamaro mu rwego rwo guteza Igihugu imbere.

Inyamaswa y'inkende ikunze kugaragara cyane cyane mu bigo bya pariki, ikitabwaho n'abaganga b'inzobere mu buvuzi bw'inyamaswa ndetse igakurura ba mukerarugendo mu gihugu.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo muri parike, harimo nk'imbogo ndetse n'izindi nyamaswa, zigahabwa ubuvuzi mu gihe zahuye n'uburwayi kuko zidufasha kwinjiza amafaranga aturuka muri ba mukerarugendo.

Kwita ku nyamaswa zo mu kirere aho zishyirwa hamwe mu cyanya cyabugenewe n'abaturage kugira ngo ziteze imbere ubukerarugendo, bigateza imbere Igihugu muri rusange.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo mu kirere harimo n'inyoni zigashyirwa mu cyanya kimwe cyabugenewe kugira ngo zororoke neza ndetse ziteze n'imbere Igihugu mu buryo bw'ubukerarugendo.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo mu ishyamba harimo nk'inkende, ibitera ndetse n'izindi, byose ni ingirakamaro kuko bifasha umuturage mu kubona umusaruro uziturutseho, uturuka muri ba mukerarugendo.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo mu mashyamba, harimo nk'inkende, ibitera ndetse n'izindi. Bigashyirwa mu cyanya kimwe, kugira ngo bikurure ba mukerarugendo, bazinjiza iterambere ry'igihugu.

Inyamaswa zo mu mapariki zigomba kwitabwaho kuko ziteza imbere Igihugu ihugu mu buryo bwo gukurura ba mukerarugendo, zigaherezwa imiti mu gihe zahuye n'uburwayi kandi zikitabwaho n'inzobere.

Inyamaswa zo mu mashyamba zigomba kwitabwaho, cyane cyane zigashyirwa mu bigo byabugenewe, kugira ngo bikurure ba mukerarugendo, bazajya badufasha kwinjiza amafaranga, n'iterambere ry'igihugu.

Inyamaswa zo mu ishyamba, aho zishyirwa mu cyanya kimwe kugira ngo ziteze Igihugu imbere mu buryo bw'ubukerarugendo, bigafasha umuturage wese kwiteza imbere yita ku buzima bw'inyamaswa, azihereza imiti mu gihe zifite uburwayi.